Iyi ni inzu yabereyemo inama harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'ubururu, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, aho ari gutambutsa imbwirwaruhame bose bamuteze amatwi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru urimo uturongo tw'umukara, yambaye amarinete, imbere ye hakaba hari icyuma kiriho indangururamajwi nk'uko bigaragara ari gutanga imbwirwaruhame kandi baramukurikiye.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, mu nzu y'inama. Bose barakurikiye. Imbere ya buri muntu hari ameza ariho akarabo ndetse n'uducupa turimo amazi yo kunywa. Ni abantu biyubashye kandi bigaragara ko bakurikiye.

Iyi nama yateranye. Yari yiganjemo, ibikorwa byo gushimira abakoze neza. Aba ni mama babiri ndetse n'umusore umwe. Umumama umwe uri hagati yambaye imikenyero, bigaragara ko yahawe ishimwe.

Iri ni ihuriro ry'umuryango wa FPR Inkotanyi. Imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'ibirango bya FPR, akaba afite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa ikiganiro bamuteze amatwi.

Inyubako nziza cyane itatse neza hakaba harimo tapi nziza cyane y'icyatsi kibisi, hari intebe ziteguye neza, hari abagabo babiri bambaye amapote meza cyane y'umukara ndetse na karuvate, hejuru yabo hari icyapa cyanditseho kiti inama mpuzamahanga y'Akarere ka Nyagatare.

Inzu y'inama yicayemo umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'ubururu ndetse na karuvati. Imbere ye hari ajenda, terefone ndetse n'agacupa k'amazi. Muri iyo nyubako harimo intebe nyinshi z'icyatsi kibisi.

Uru ni urujya n'uruza rw'abantu. Hakaba hari umumama ufite indangururamajwi. Akaba ari gutanga imbwirwaruhame mu nama yabereye hano. Bose bamuteze amatwi ariko bamwe bahagaze bamuzengurutse.

Iyi ni nama, ikaba yahuriwemo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Hakaba hari urubyiruko ruri imbere ruri kubasusurutsa mu mbyino zigezweho. Aha rero bose barakurikiye.

Umugabo wambaye ikote ryiza cyane ndetse n'isaha, ahagaze imbere y'abantu afite indangururamajwi mu ntoki, ari gutanga imbwirwaruhame mu nama yateranye avuga ngo '' ibikorwa bigomba gukorerwa mu isibo''.

Umugabo uhagaze imbere y'imbaga nyamwinshi akaba yambaye isaha ku kuboko afite indangururamajwi mu ntoki, ari gutambutsa ikiganiro aho atanga igitekerezo ke mu nama bakacyumva maze bose barakurikiye.

Abari beza cyane bambaye imishanana bakamba udutakako mu gahanga, bari kwimurika bashayaya babyina neza cyane, ahangaha bakaba bari mu birori, iyi ni imyiyereko y'abari.

Ingoma iriho imirishyo ibiri mu muco gakondo cyangwa se mu muco w'abanyarwanda, ingoma ibafite imirish ibiri aho umukaraza ayivuza kandi akayivuza mu njyana, mu rwego kugira ngo umuziki utambuke neza.

Uwo muco gakondo wahozeho kandi nan'ubu uracyakomejeriri, aha hari akameza gateretseho inkongoro ipfundikiye neza, inkongoro nka kimwe kiranga umuco, yanywerebwagamo amata.

Aba ni abari beza cyane bambaye imikenyero y'umweru. Bari gushayaya bari ahantu heza cyane mu bukwe, hakaba hari n'abasore bari iruhande rwabo nabo bambaye imikenyero y'umukara n'umuhondo. Ubu bukwe bukaba bwiganjemo umuco.

Abari beza cyane bambaye imikenyero y'umweru n'udusengeri tw'umweru bari gushayaya, aha habereye ibirori by'imurikamuco, mu Rwanda uyu ni umuco wahozeho.

Aba ni abari, bari ahantu heza cyane. Bambaye imikenyero y'ubururu ndetse n'udusengeri tw'umweru bambaye utuntu mu gahanga, bari ahantu hatatse neza cyane hari kugaragara imodoka bajemo. Bakaba bari mu busitani bukeye.

Abari beza bambaye imikenyero y'icyatsi kibisi. Bakaba bambaye n'udupira mu imbere. Bari gushayaya babyina maze biyerekana. Inyuma yabo mu ihema hakaba harimo abantu benshi cyane.

Inkumi n'abasore bahagaze imbere y'abantu. Bari gushayaya, bari kubyina imbyino gakondo. Uyu ni umuco w'abanyarwanda aho bahuriye basusuruka mu mbyino zabo maze bagaseruka nk'intore.

Abasore beza cyane bazi kubyina, bari kwitaka ndetse bari kwimurika, ubabona arishimye. Bakaba bari mu birori by'umuco gakondo, aho batashye ubukwe. Bambaye imikenyero ibabereye.

Kera mu muco nyarwanda habagaho icyo bita guca akabogi maze ugaca umusa, iki ni ikibindi kirimo amarwa ameze neza, hakaba harimo imiheha ine ndetse kikaba gipfundikije amakoma, aho barindiriye abashyitsi ngo maze bayice umuco.

Ibikorwa byo gusana ingomero z'umuriro w'amashanyarazi, bikorwa buri munsi. Kuko umunsi ku wundi, umuriro w'amashanyarazi ni kimwe, mu bidufasha kugira imibereho myiza, kandi bikadufasha mu buzima bwa buri munsi.

Aha ni ahantu hakorerwa serivisi z'ubuhinzi. Ariko nanone hakaba harimo amapoto abiri ateganye. Aya mapoto abaho umuriro ufite ingufu nyinshi, aho hariho insinga ziwusakaza mu bice bigiye bitandukanye.

Ipoto ririho amatara abiri yo ku muhanda, aha rero umuriro w'amashanyarazi wageze mu duce twose maze imihanda yose barayicanira, ikirere kirasa ubururu ndetse n'umweru.

Aba ni abantu benshi cyane harimo abirabura ndetse n'abazungu, bakaba bambaye ingofero n'amajire ari mu ibara ry'umuhondo, ndetse na orange. Bahagaze ahantu hari ikigomero cy'amashanyarazi, aho bari kwitegereza bareba ibyo bakongeramo.

Umumama wize ibijyanye n'amashanyarazi. Yambaye impuzankano ibigaragaza neza. Akaba afite ikarita y'umufatabuguzi aho ari kwandika imibare mu kuma kagenewe gushyirwamo iyo mibare kandi kabika umuriro.

Aha hari umugabo uri gukora ahantu hahurira insinga z'amashanyarazi. Ari kugenda areba ikibazo zagize, aho ari gukora aha hantu hateranira insinga nyinshi cyane zijyana umuriro mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa mu gihugu, usanga uturuka mu bice bigiye bitandukanye ariko aha ngaha noneho niho uturuka, aho usanga hari sitasiyo ivomera abantu nk'ingo nka mirongo itanu.

Iki ni icyuma cyifashishwa kinyuzwaho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ufite ingufu nyinshi cyane, aho ziwukura ahantu hamwe ziwujyana ahandi kandi kure. Aha rero munsi hakaba harimo ibihingwa bigiye bitandukanye.

Amashanyarazi dukoresha aturuka ahantu hamwe. Aha ni ahantu haturuka umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa mu Gihugu hose. Harimo ibyuma byinshi ndetse n'ibisanduku birimo insinga.

Ahantu heza cyane harimo ibiti ndetse n'amasina hakaba hubatse inzu, hejuru y'iyo nzu hakaba hari ibyuma biriho insinga zijyana n'amashanyarazi mu duce tugiye dutandukanye, ni ibyuma binini ndetse biriho n'insinga nini.

Igikorwa remezo cy'umuhanda. Ni mu masaha y'ijoro. Hakaba hari amatara meza cyane yaka akabonesha. Hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga. Ikirere kirijimye cyane kirasa umukara.

Ibikoresho byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hose hirya no hino mu Rwanda biba bihari, twavugamo nk'insinga ndetse n'ibindi bikoresho ababikora bifashisha mu gihe bari kubikora.

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu bintu biba bikwiye kubungwabungwa, cyane cyane nk'ahantu uba uhurira, aha turi kubona umuntu uri gufunga amaburo neza kugira ngo hirindwe kuba hari agace ntakamwe kabura umuriro.

Aba ni abakozi bafite ubuhanga ndetse b'abanyamwuga bazi ibintu bijyanye n'amashanyarazi, ari kurira ipironi ishinzeho amashanyarazi, ariho insinga nyinshi cyane zijyana umuriro w'amashanyarazi hirya no hino.

Iyi ni inyubako iberamo imikino, tuzi nka sitade, hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu bari muri siporo. Siporo ni ubuzima. Ni byiza ko, dukora siporo, kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kumererwa neza.

Leta y'u rwanda yubatse ibigo by'amashuri byiza, yubaka imihanda myiza ndetse n'iminara, aha hakaba hari amashuri meza cyane ari ahantu munsi y'umusozi ufite ubwatsi butohagiye kandi bw'icyatsi kibisi.

Aha ni ahari kubera imirimo yo kubaka amashuri. Ibi ni bimwe mu byumba by'amashuri biri kongerwa mu kigo kugira ngo abana babone aho bigira mu buryo bukwiye nta bucucike.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, hari urujya n'uruza rw'abantu rwaje gushaka serivise, imbere y'inyubako hateretse kandagira ukarabe nziza y'umweru, aho abahagana babanza gukaraba intoki.

Leta y'u Rwanda yarebye abatishoboye maze ihitamo kububakira aho kuba. Izi ni zimwe mu nzu yubakiye abaturage, zisakaje amabati y'ubururu zikaba zubakishijwe amatafari.

Inyubako nziza cyane z'ibigo by'amashuri. Leta y'u Rwanda yimakaje ndetse inaha agaciro uburezi. Irangije ijya hirya no hino ihubaka ibigo byiza cyane by'amashuri.

Leta y'u Rwanda igenda yubaka ibikorwa remezo hirya no hino mu gihugu, aha turi kubona ikiraro kiza cyane cyubatswe mu buryo bugezweho urujya n'uruza rw'abantu ndetse hari n'imodoka bose baje kwihera ijisho.

Abaturage bamwe na bamwe bavuga ko ubuhinzi ari kimwe mu bibafasha gutera imbere, aha hari abasaza ndetse imbere yabo hakaba hari umukobwa wambaye agapira gatukura n'ipantaro y'umukara aho ari kugenda abahugura.

Uyu ni umuhanda uri kuberamo ibikorwa byo kubaka ikiraro cyiza, hakaba harimo moto. Iyi moto yicaweho n'umugabo wambaye kasike akaba ayitwaye, hari abakozi bari gukora muri iyo mirimo bahagaze aho.

Iyi ni inyubako nziza cyane, yubakishijwe amatafari, ikaba isize irangi ry'umukara ndetse n'umuhondo, hejuru isakaje amabati y'ubururu, hari abantu bamwe bambaye udupfukamunwa n'abandi bafite ibitabo mu ntoki nkuko bigaragara ni ibagiro.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse bigaragara ko aho bari bahafunze bagashyiraho ko ntawemerewe kuhinjira. Harimo abantu bahagaze. Hari uri hagati uri kugenda abasobanurira ikibazo gihari, bose bamuteze amatwi.

Leta y'u Rwanda igenda yubaka ibiraro hirya no hino mu gihugu, mu rwego rwo gusigasira ndetse no kurinda bimwe mu byago bishobora guterwa n'ibiza, aho bubaka ibiraro bikomeye byubakishijwe amabuye.

Inyubako nziza cyane ifite inkuta ziteye irange ry'umuhondo. Ikaba isakaje amabati asa ubururu. Muri iyo nyubako hakaba harimo ubusitani bwiza cyane ndetse ikaba izengurutswe n'ibiti birebire, bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Iyi ni inyubako nziza cyane yubatswe na Leta iyubakira abaturage, mu rwego rwo kubegereza ibikorwaremezo kandi bifite ireme. Hakaba hazengurutswe n'ibiti byiza cyane ndetse n'imisozi itanga umuyaga.

Iki ni ikiraro cyiza cyane cyubatswe na leta aho yari imaze kubona ko abaturage bazengerejwe n'umwuzure ukunze kuba hano, maze bubaka ikiraro kirekire kugira ngo babakize iki kibazo gicike burundu.

U Rwanda rwateye imbere ku buryo n'imidugudu imwe nimwe yo mu gihugu isigaye ifite ibiro, iyi ni inyubako y'ibiro by'umudugudu wa Gakoma, aho iyi Gakoma yateye imbere.

Leta y'u Rwanda igenda yubaka imihanda hirya no hino mu gihugu. Iki ni ikiraro cyubatswe mu buryo bugezweho ariko kikaba kigaragara nk'aho cyasenyutse kubera ikinyabiziga gifite imbaraga nyinshi cyahanyuze.

Iyi ni inyubako itangirwamo serivise zigiye zitandukanye za Leta, turi kubona abagabo babiri bahicaye bakaba barindiriye guhabwa serivisi, imbere y'aho hari ipironi iba iriho insinga zikwirakwiza umuriro mu duce dutandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu, ruri kwitambukira ku kiraro cyiza cyo mu kirere leta yubakiye abaturage, ni nyuma yuko bigaragaye ko iyo imvura iguye ahantu huzura maze abaturage bakabura aho banyura, leta y'u Rwanda yubatse ibi biraro byiza cyane hirya no hino mu gihugu.

Urumuri rw'icyizere rwacanywe mu Rwanda kuva ubwo jenoside yakorewe abatutsi yarangiraga, hacanwe urumuri rw'icyizere biba ikimenyetso cy'uko ibi bitazigera byongera na rimwe.

Leta y'u Rwanda yimakaje umuco w'ubutabera ndetse itanga uburenganzira ku bantu bose. Aha hakaba hari abantu baje ku rwibutso kwibuka.

Leta y'u Rwanda yimakaje umuco w'ubumwe, ubwiyunge, ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa buri munyarwanda, aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu gikorwa cyo kwibuka.

Leta y'u Rwanda yamamaje ndetse yimakaza umuco w'ubutabera ndetse n'uburenganzira kuri buri wese. Aha hari umusirikare ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gutanga imbwirwaruhame ku bijyanye n'inteko rusange y'urubyiruko.

Leta y'u Rwanda yimakaje umuco wo gutanga ubutabera, uburenganzira n'ukwishyira ukizana ku baturage. Uru ni urujya n'uruza rw'abantu ruteraniye ahantu hamwe. Bakaba bari mu gikorwa cyabahuje.

Leta y'u Rwanda yahagurukiye gutanga ubutabera ndetse n'uburenganzira kuri buri wese, iyi foto iragaragaramo: abapolisi, abasoroviya ndetse n'abasirikare, bahagaze ahantu heza cyane.

Leta y'u Rwanda yateje imbere ndetse inimakaza ubutabera. Aha hakaba hari abasore bari kwifotoreza ku cyapa cyanditseho Gikoba Liberation History.

Iyi ni inama yahuje abaturage hari urujya n'uruza rw'abantu. Hakaba hari umugabo uri kubasobanurira ku bijyanye n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwa muntu nkuko byimakajwe mu gihugu cy'u Rwanda.

Leta y'u rwanda ni leta nziza cyane ishyigikira uburenganzira bwa muntu kandi ikimakaza ubutabera. Aha ni ku rwibutso rwa nyagatare, aho bari gushyingura mu cyubahiro imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi.

Abantu benshi cyane bateraniye mu kigo cy'amashuri, harimo abarezi, ubwo ndavuga abarimu ndetse n'ababyeyi. Inyubako nziza z'amashuri zubakishije amatafari ya boroke sima ndetse hakaba hariho inzugi z'ubururu.

Aha ni ahigirwa ibinyabiziga. Abantu benshi cyane bifuza kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga, usanga birirwa bagerageza amahirwe, bihugura ibikorwa byo gutwara.

Aha ni imbere y'umuhanda, hakaba hari icyapa cyanditseho umubare mirongo inani wanditswe mu ibara ry'umukara, inyuma y'aho hakaba hari inzu iriho icyapa cya sosiyete ya Airtel gitanga serivisi zo kubitsa ndetse no kubikura mu Rwanda.

Ahantu heza cyane hari ibiti birebire ndetse n'ibigufi bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, hari icyapa cyanditseho ko ari Umurenge wa Karangazi, hakaba ipironi iriho insinga zisakaza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'imodoka. Iri imbere ikaba ari itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba yuzuye kandi ikaba iri kugenda mu cyerekezo kimwe abagenzi bagiyemo.

Ubusitani bwiza cyane bufite ibara ry'icyatsi kibisi, hakaba harimo icyapa, cyanditseho umubare mirongo itandatu. Iki cyapa gikunze kuba kiburira abarwayi b'ibinyabiziga, kigaragaza ko muri metero nke harimo kamera ifata umuvuduko.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, ukaba urimo ibice bibiri. Aha ni aho abanyamaguru bambukira. Hakurya hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakajwe amabati y'ubururu, aho hari n'ibyuma biriho insinga z'amashanyarazi.

Aha ni ahabera ibikorwa by'ubuhinzi. Harimo ibimera bigiye bitandukanye ndetse hakaba hari n'umuhanda hafi kuko hari icyapa kiri kugaragaza imibare iranga umuhanda kirekire.

Urujya n'uruza rw'abantu bafite ibikoresho bigiye bitandukanye. Bari mu mirimo y'amaboko, aho bari kwikorera umuhanda. Iki ni igikorwa cy'umuganda rusange, gikorwa buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi.

Aba ni abantu bari mu nama rusange. Ni benshi cyane bitabiriye mu buryo budasanzwe. Iyo abaturage bubaha ubuyobozi bwabo kandi bakumva ko ibitekerezo byabo ari ingenzi bitabira inama.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'umuganda rusange ni urujya n'uruza, bafite ibikoresho bigiye bitandukanye harimo abafite imipanga, hakaba harimo abafite amasuka ndetse n'abafite ibitiyo.

Iyi ni inama idasanzwe yiga ku bijyanye n'umutekano, hakaba harimo abasirikare ndetse n'abapolisi, hakaba hari abari kubaha amahugurwa bicaye imbere yabo, aho bari kugenda babaha amategeko ndetse n'amabwiriza n'ingamba zafashwe.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bari mu ihema ryiza cyane ridekoye rifite amabara y'umweru, umuhondo, icyatsi kibisi ndetse n'ubururu, harimo abashinzwe umutekano ndetse n'abandi bakaba bakurikiye ibiganiro biri kubera aho.

Urujya n'uruza rw'abantu baje mu nama imbere yabo hari umupolisi uri kubaha amabwiriza. Uyu mupolisi yambaye impuzankano ya polisi irimo amabara y'umukara, ndetse n'umuhondo. Akaba arikubasobanurira uko gahunda z'umutekano ziteye.

Iki ni igikorwa cyateranije imbaga nyamwinshi hakaba harimo n'abashinzwe umutekano nk'Abadaso ndetse n'Abapolisi, imbere hakaba hari kandagira ukarabe iriho akagega k'ubururu ndetse n'akabasi k'ubururu, aho uje banza gukaraba intoki.

Mu gihugu cy'uRwanda ndetse no ku isi hose, buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, haba umuganda rusange. Aha turi kubona abamama, abapapa, ndetse n'abasore hakaba harimo n'inzego z'umutekano, bari kwikorera isuku mu muhanda ndetse n'ahangiritse bahasana.

Iri ni ihema ridekoye ku buryo bwiza. Rikaba ririho igitambaro kiri mu mabara y'icyatsi kibisi ,ubururu ndetse n'umuhondo. Hakaba harimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye harimo n'inzego z'umutekano. Umusirikare arahagurutsa ari gusuhuza abateraniye aho.

Aba ni abantu bari mu gikorwa cy'umuganda rusange. Mu Rwanda twitabira ibikorwa by'umuganda rusange tugakora ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo guhanga imihanda, gusana amazu yangiritse ndetse n'ibindi.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe, bakaba bari mu nama rusange iri kwiga ku bijyanye n'umutekano ndetse n'ukwishyira ukizana kwa muntu, buri wa kabiri mu Rwanda haba inama y'inteko rusange.

Iyi ni inyubako nziza cyane y'ikibuga cy'umupira, hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu baje kwirebera umupira bawurebera ku kibuga kiza cyane leta yubakiye abaturage, mu rwego rwo guteza imbere siporo ndetse n'ibindi.

Mu rwanda umutekanohari ari wose, aha hari urujya n'uruza rw'abantu baje mu nama, ndetse hakaba hari n'umupolisi uri imbere uri kubasobanurira ko kuva ubu umutekano wakajijwe, kandi ko polisi itazatezuka.

Uyu ni mama wayobotse ibijyanye n'ubuhinzi, maze arahinga arahinga aratunganirwa, uyu mumama yambaye bote, akaba yambaye ipantaro ndetse n'ishati yo mu gitenge ndetse akaba akora n'umurimo w'umutekano.

Abari n'abategarugori na bo bisanze mu mukino w'umupira w'amaguru. Aya ni amakipe abiri y'abari ndetse n'abategarugori bahiriye mu irushanwa. Bamwe bakaba bambaye imyenda y'umukara irimo akabara k'ubururu, abandi bakaba bambaye umutuku hejuru n'amakabutura y'umukara arimo utubara tw'umuhondo.

Iyi ni inyubako nziza cyane ikorerwa muri siporo, hakaba harimo abakinnyi bahagaze mu kibuga hagati ni ikibuga kirimo ibyatsi bibisi kandi bitoshye, hakabamo abakinnyi bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'iy'icyatsi imbere yabo hakaba hari abagabo bari kubaha amabwiriza barimo n'umusirikare.

Iki ni igikorwa cy'imyitozo ngororamubiri, hakaba hari abari, abasore ndetse n'abapapa bari kugenda bigorora mu buryo butandukanye, bari gukorera siporo ahantu heza cyane, ni byiza gukora siporo.

Abakobwa na bo basigaye bakina kandi bakishimira umupira w'amaguru, aha turi kubona umukobwa uri guseka wambaye agapira kanditseho amagambo inyuma ati: "Tabagwe Sector", bigaragaza ko ari Umurenge wa Tabagwe wari wakinnye n'undi murenge.

Abana bakiri bato, bagomba gukora siporo, kugira ngo bakure ingingo zabo zigororotse kandi, zikomeye. Aba bana rero bakaba bari gukina umupira w'amaguru, bari gukinira mu kibuga k'igitaka, bose urabona ko bari kubishyiramo imbaraga.

Iki ni ikibuga cyiza cyane cy'umupira w'amaguru, hakaba harimo abasore bari gukora imyitozo, harimo abambaye nomero zirindwi, nomero umunani ndetse na nomero esheshatu, bakaba bari kwirukanka, mo hagati bafite umupira, iki kibuga rero gikozeze mu buryo bugezweho.

Ikibuga gikorerwamo siporo cyane cyane umukino w'umupira w'amaguru, harimo umusore ni kapiteni kuko yambaye igitambaro kibigaragaza uri gukina baro, inyuma ye haparitse moto ndetse mo imbere hejuru hari aho abafana baba bicaye.

Iki ni igikorwa cya siporo rusange, aho abaturage bari kuzenguruka mu muhanda mwiza cyane wa kaburimbo urimo amatara yo ku muhanda ari kwaka. Ni mu masaha ya nimugoroba ni muri siporo.

Abari n'abategarugori nabo bafashe iya mbere mu gukina umupira w'amaguru babishyizemo imbaraga kandi babikunze. Aya ni amakipe abiri yahuriye ku kibuga cyiza cyane, abakinnyi b'abari n'abategarugori bigaragaza.

Siporo ni nziza kandi abanyarwanda na bo bakabyumva bakabyubahiriza dore ko ari n'umuco kugorora ingingo, aha harimo abakuze bakina, turi kubona ikipe yakinnye kandi yatsinze.

Ikibuga cy'umupira. Ni ikibuga kimeze neza kirimo ibyatsi byabugenewe, ndetse harimo n'abakinnyi bari gukina bambaye imyambaro igiye itandukanye ubururu, ndetse n'umweru, umukara ndetse n'umuhondo. Iki kibuga kikaba gifite aho abaje kureba umupira biyicarira.

Aha nihabereye ibirori bya siporo, hari umwari mwiza wambaye umukenyero w'umuhondo, akaba afite agakoko kariho imidari igiye itandukanye, abari beza cyane batsinze bakaba bari ku murongo, bagenda babambika imidari.

Umusore wambaye umupira w'amaboko maremare, yambaye ga zirimo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, yambaye ikabutura y'umukara, amasogisi y'umweru ndetse n'umukara. Ahagaze mu kibuga cyiza gifite ubwatsi bw'icyatsi kibisi. Aha hakaba hakorerwa siporo.

Aba ni abantu bari ku kibuga cy'umupira w'amaguru. Bakaba bicaye mu ntebe z'ibyubahiro. Mu kibuga hari kuberamo umukino wahuje Reyo siporo na Aperi, aho bawukurikiye batekanye.

Uyu ni umusore uri muri siporo, yambaye umupira w'umweru, yambaye agakufe mu ijosi, yambaye n'akagofero k'umukara. Ari gukora atumagi tugiye dutandukanye, afite umuriro ku ifoke agiye kurya, ibi ntibisanzwe.

Iyi ni ingengabihe y'uko kimwe cy'umunani cy'Umurenge Kagame Cup kizakinwa mu Karere ka Nyagatare. Aho bigaragara ko Karama izahura na Mukura, Musheri igahura na Kiyombe, Nyagatare igahura na Gatunda.

Ikibuga cy'umupira gifite ubwatsi busa icyatsi kibisi hakaba harimo akarongo k'umweru. Harimo amakipe abiri ari gukina. Ikipe imwe yambaye umuhondo ndetse n'umukara, indi yambaye ubururu n'umweru. Bose bafite ishyaka mu kibuga.

Umwari wambaye imyambaro y'umukino njyarugamba iri mu ibara ry'umutuku, yarambuye amaboko aca bugufi nk'ugiye gukuramo igipfunsi agahita atera umugeri. Uyu mukino ukunzwe gukinwa n'abagabo.

Siporo ni kimwe mu bintu bifasha ubuzima bw'abantu gukora neza, aha hari umwana wambaye impuzankano y'umutuku, ari kumwe na mugenzi we nawe wambaye impuzankano y'umutuku, bakaba bari mu myitozo y'umukino njya rugamba.

Aha ni mu kibuga cy'umupira turi kubonamo abakinnyi bagiye batandukanye, ni ikibuga gifite ubwatsi bw'icyatsi kibisi, hakaba harimo uturongo tw'umweru, abakinnyi bari gukiniramo harimo babiri bambaye umukara ndetse n'umuhondo ndetse n'abandi babiri bambaye ubururu n'umweru.

Iki ni ikibuga cy'umupira kirimo ibyatsi byiza cyane bisa icyatsi kibisi, hakaba harimo umupapa wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara yatebeje ndetse harimo n'umumama wambaye imyenda ya siporo, bakaba baje gutaha iki kibuga.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibice bibiri. Harimo umugabo uri kugendera mu muhanda rwagati. Hakabamo imodoka irimo ihinguka ndetse hakaba n'amazu ari hakurya y'umuhanda n'ibiti byiza birebire.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo ibice bibiri, ku mpande z'uyu muhanda, hakaba hariho uturongo turiho amabara y'umukara ndetse n'umweru, ku mpande hakaba hari ibyatsi by'icyatsi kibisi ndetse hakaba n'uruzitiro.

Uyu ni umuhanda uri kubakwa. Ni byiza ko hubakwa ibikorwaremezo harimo n'ibi by'umuhanda. Hari ibinyabiziga biri kunyuramo, bigaragara ko banejejwe n'uyu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumama uhetse umwana. Yamutwikiriye agashuka k'umweru, ateze igitambaro. Uyu muhanda nta kinyabiziga na kimwe kirimo. Hakurya y'umuhanda hari amazu.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo ibice bibiri, iruhande rw'iburyo turi kubona umugabo wambaye umupira w'umweru urimo amagambo y'umutuku, tukabona hirya umukobwa wambaye ijipo y'ubururu ndetse n'agapira k'umukara.

Urwuri rwiza cyane rurimo inka zishishe kuko zibasha kubona ibyatsi, izi nka harimo izifite amabara y'ikibamba ndetse n'iz'urwirungu, hakaba harimo n'abantu baziragiye.

Utuyira two mu cyaro, ni utuyira turimo ibitaka byinshishi, aha hakaba hari ibyatsi ku mpande bifite ibara ry'icyatsi kibisi, ndetse hakaba hari n'ibyuma ndetse n'urugi rw'icyuma, aho ushatse kwinjira winjira kuko rudafunze.

Umuhanda wa kaburimbo, aha ni mu isangano ry'imihanda, hakaba harimo imodoka iri kuzenguruka ijya mu cyerekezo ikwiye kunyuramo, iyo modoka ifite amabara y'umweru n'ibirahuri by'umukara, hirya yayo hakaba hari ipoto iriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.